Imbaga y'abantu bensh, bahugurirwa gukoresha kizimyamwoto kugira ngo mu gihe ahantu bateraniye hazaba hafashwe n'inkongi y'umuriro, bazabe bafasha mu kuyizimya, urugero nko mu bitaro cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi.

Imbangukiragutabara ndetse n'abantu bagendana na yo ni bamwe mu batuma ubuzima bw'abantu bukomeza kumererwa neza, kuko batabarira ku gihe abantu batari barembera mu ngo zabo cyangwa se habaye impanuka na bwo bagatabara ubuzima bw'abantu butari bwagera aho bwangirika cyane.

Umuganga uri gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku murwayi, arimo amwambika serumu, ibikoresho byo kwa muganga bifasha abarwayi kubungabunga ubuzima, agacupa k'amazi yo kunywa.

kwa muganga ha hari ubutabazi bwihuse kugira ngo ubuzima bukomeze kubungwabungwa.

Abaganga bakora uko bashoboye kugira ngo bite ku bantu barwaye, babakorera ubutabazi bw'ibanze.

Ibikoresho byifashishwa mu gutabara ubuzima bw'abantu, harimo burangari, ameza umunzani, imiti n'ibyuma bisuzuma uko umubiri w'umuntu uhagaze.

Igitanda umurwayi arwariyeho, umuganga uri kwita ku murwayi, ishuka umurwa aryamyeho y'icyatsi, ameza ari mu cyumba cy'umurwayi, ibiti biri inyuma y'idirishya.

Amafarumasi hamwe n'amavuriro bifasha abaturage kubona imiti bakeneye mu gihe barwaye kandi n'abafunzwe nabo baba bakeneye kuvurwa, aho iyo barwaye bajya gufataho imiti kuki kibasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ku bitaro hamwe ku bigo nderabuzima ni ahantu haba hari abaganga bashobora gutanga inama ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo abaturage baje babagana bazabashe gukomeza kwita ku buzima bwabo igihe bazaba basubiye mu ngo zabo wenda batakirwaye.

Mu bitaro ndetse n'amavuriro yigenga, ni hamwe mu hantu haba hari ibitanda byiza by'abarwayi barwariraho kandi ibyo bitanda bikaba biriho inzitiramibu, zimanurwa ku mugoroba, hirindwa imibu ishobora gutera izindi ndwara, urugero nka Malariya.

Kwa muganga ni ahantu hahurira abantu b'ingeri zitandukanye, abarwayi ndetse n'abaganga. Abaganga baba baje mu kazi kabahesha amafaranga yo gutunga imiryango yabo. Naho abarwayi bo baba baje kwivuza kugira ngo bahabwe ubufasha bw'ibanze bakeneye mu buzima, bakomeze kubaho bamerewe neza.

Isuzumero ryifashishwa mu kuvanga ibinyabutabire, udukoresho bafatishamo aho bavangira ibinyabutabire, gamu zambarwa n'umuntu uri kuvanga ibinyabutabire.

Mu bitaro ababyeyi babyariramo usangamo ibitanda, uubati n'amatelemosi, ibyo byose bikaba ari ibifasha umubyeyi gukomeza kumererwa neza ndetse n'umwana yabyaye agakomeza kugira ubuzima bwiza, ikiba kigambiriwe ni ukugira ngo bitabweho aho ngaho bari kwa muganga.

Umubyeyi wicaye ku ntebe uriguha umwana ibere, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza azakure neza.

Umugore n'umugabo batwite bajyana kwa muganga kugira ngo barebe uko ubuzima bw'umwana uri mu nda bumerewe.

Ibitaro ababyeyi babyariraho. Ni ahantu abantu bakura akazi ka buri munsi kabafasha kubona amafaranga. Urugero: nk'abaganga bakora akazi ko kubyaza ababyeyi maze bagahembwa amafaranga, bakayifashisha mu kugira ngo bite ku miryango yabo. Bigishe abana babo ndetse n'ibindi.

Inzu ifite umuryango, amadirishya y'umweru irangi ry'umweru risize ku nzu, amatafari ahiye, amabati, ubussitani, umuntu, igipangu n'ibiti.

Abantu benshi b'abanyamuryango ba FPR bicaye hamwe ku ntebe zifunikishije imyenda y'umweru n'imyenda y'umutuku.

Amafarumasi agiye adukikije dusangamo imiti igiye itandukanye, iyo miti ikunze kuba iri mu tubati kandi iyo umuntu arwaye, ashobora kujyayo, akabwira umuganga uba uhakora, akamubwira uko yiyumva, hanyuma akamuha umuti ugendanye n'ibimenyetso amubwiye, byaba na byiza, abapima indwara na bo bakamupima, bakamuha umuti ugendanye n'uburwayi bwe.

Akabati karimo imiti, yifashishwa n'amavuriro yigenga kugira ngo yite ku buzima bw'abantu, bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bakoraniye hamwe mu muhanda aho bagenda bakangurira buri wese kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko uwarikorewe ahura n'ihungabana.

Itsinda ry'abanyabuzima ryifashishwa mu gufasha abaturage bajya kubaterera mu ngo zabo umuti wica umubu w'agakoko kugira ngo babashe kwirinda Malariya itazazahaza abaturarwanda ndetse n'abana muri rusange.

Ni gahunda ikorwa na polisi y'igihugu y'u Rwanda yo kwifuriza abantu urugendo rwiza muri gahunda yiswe Gerayo Amahoro cyane cyane abantu batwara ibinyabiziga n'abakora ingendo mu binyabiziga.

Imiti yo mu buryo bwa gakondo yifashishwa n'abaturage ariko ikiza kurushaho ni uko mu gihe umuntu yarwaye yajya yirinda gukoresha imiti ya gakondo, ahubwo akabanza kujya kwa muganga kugira asuzumwe hagaragare indwara arwaye, afate umuti uhuje n'indwara arwaye.

Ameza, amavuta, ibirenge by'umuntu, amaboko y'abantu, umuntu bari gukorera masaje.

Imiti ya gakondo ikunze kuba ikozwe mu byatsi bakabisekura cyangwa se bakabisya, kugira ngo babone agafu k'ibyo byatsi. Ibyo rero babikoresha mu buryo bwo kwivura indwara zitandukanye ariko ibyo ntabwo byizewe. Ni byiza ko umuntu warwaye agomba kujya kwisuzumisha kugira bamuhe umuti uhura n'indwara arwaye kandi uzamuvura.

Mu bigunda cyangwa mu mashyamba, abantu benshi batekereza ko haba harimo imiti, ariko haba harimo n'amahwa agiye atandukanye, iyo miti batekereza ya gakondo cyangwa se mu byatsi, ntabwo ari byiza kuyivurisha, ahubwo mu gihe umuntu yarwaye, aba akwiye kujya kwa muganga bakamusuzuma, hanyuma bakamuha umuti uhuje n'indwara arwaye.

Amafarumasi acuruza imiti y'amatungo afasha aborozi kugira umusaruro mwiza w'amatungo ndetse n'amatungo yabo akamererwa neza, mu gihe iyo yarwaye bajya kugurayo imiti kugira ngo babashe kubona uburyo bavura amatungo yabo na bo bakomeze kubona umusaruro mwiza muri ayo matungo.

Amavuriro yigenga nayo yegerejwe abaturage kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, no kubungabunga ubuzima bwabo.

Amavuriro yigenga, hamwe n'ibigo nderabuzima, ni ahantu hizewe abaturage barwaye bashobora kugana, kugira ngo babashe kubona imiti, babasha gukira. Na none kandi aho hantu kuri ibyo bigo nderabuzima, ndetse no ku mavuriro yigenga, haba harahaye akazi abantu bahakora, urugero nk'abaganga baba bahakorera, kugira ngo babashe gusana ubuzima bw'abandi, nabo babone ibibatunga.